Icyapa kigaragaza aho ibitaro bya Ruhengeri biherereye, biherereye mu mujyi wa Musanze agasanduku k'iposita ni mirongo itanu na karindwi, ibi bitaro bikaba byita ku barwayi batandukanye, abananiwe kuvurirwa ku ma satere do sate, boherezwa ku bitaro bya Ruhengeri nk'ibitaro bikuru.

Abagabo bane bambaye bose udupfukamunwa. Bafashe ku rupapuro, inyuma yabo hariho imodoka y'imbangukiragutabara imodoka itwaraga abarwayi barembye.